abanyeshuri bambaye iniforume amashati ya buresiyeri, amajipo cyangwa amakabutura y'ubururu, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, ibitabo, amakayi ndetse n'ikaramu, mwarimu uhagaze ufite itaburiya y'umweru, ishuri rifite amadirisha n'ibirahuri, ikibaho, ibibambasi bisizwa amarangi ya kaki.

Abana bicaye ku mukeka bari kwigishwa, bafite imfashanyigisho ababafasha harimo uwambaye itaburiya y'umweru, undi ikoti ry'ikoboyi, umucaca, inzu ifite amabati y'umweru.

Abana bambaye iniforume abandi batayambaye, amadirisha afite ibirahuri azana urumuri, ikibambasi gishushanyijeho abanyeshuri batandukanye harimo umukobwa ndetse n'umuhungu.

Inzu ifite urugi rw'ubururu na sima hasi, harimo utumeza duteretsweho ibitabo bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye iniforume isa kacyi, ndetse n'abakobwa kontoni, umwe ufashe utudobo kamwe gasa umutuku, akandi icyatsi, amashuri yubakishijwe amatafari ahiye na sima, asakaje amabati, amadirisha arimo ibirahuri.

Abanyeshuri bari mu muryango w'ishuri, umuhungu wambaye agapira k'umuhondo, ishati ya buresiyeri n'ikabutura ya kaki, inzugi zisa icyatsi, ikibambasi gikorutiye na sima.

Abagabo bari kuri kompiyuta, bareba videwo, igikapu gisa umukara, gifite akabara k'umutuku, intebe zisa icyatsi, amakaramu, icupa ribamo amazi yo kunywa, sipika.

Amashuri yubakishijwe amatafari ya rukaraka, asakaje amabati y'ubururu, ndetse n'inzugi za metalique, akikijwe n'umurima uteyemo intoki ndetse n'ibindi bihingwa, ikirere gisa neza.

Abanyeshuri bari gukina bahetse ibikapu ndetse bambaye iniforume, ishati ya buresiyeri, ikabutura cyangwa ijipo bya kaki, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'urugi rwa metarike.

Abanyeshuri bari mu kibuga bambaye iniforume kaki abahungu, abakobwa kontoni, amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha arimo ibirahuri, amabati y'ubururu, umugabo wambaye umupira w'umukara.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, sima, rifite amabati ndetse n'ikibaho. Kositara izana urumuri, ndetse n'umwuka. Intebe abanyeshuri bicaraho.

Ikibaho gisa umukara gishushanyijeho umuntu wambaye ikabutura n'agapira hariho amaboko, amatwi, umunwa, amaso, umutwe, igihimba ndetse n'amaguru.

Jardin iteyemo pasiparumu n'izindi ndabo zisa icyatsi kibisi, icyuma kimanitse bavugirizaho inzogera, amabati y'ubururu, inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse na sima kositara amadirishya arimo ibirahuri n'amarido.

Umugabo ufite inkoni y'umukara n'igitabo wambaye igishura kirimo umuhondo ndetse n'icyatsi n'inkweto za rugabire, witeze igitambara n'ubwanwa burebure ushushanyijwe ku kibambasi cy'inzu gisize irangi rya kaki.

Umugabo uhagaze mu muhanda nyabagendwa, harimo amabuye ku ruhande, abanyeshuri bahetse ibikapu bambaye amashati y'umweru, ipantaro ya kaki, abandi amajipo atukura, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati.

Ibitabo byinshi bitondetswe mu isomero mu tubati twubakishijwe ibiti, bimwe bisa: umutuku, ubururu, icyatsi, terefone icaginze ku ruhande isa umukara.

Intebe zitereswa ahantu mu mucaca, zikozwe mu biti, zisize amabara, umuhondo, ndetse n'ubururu, zikikijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse na sima, ibiti birebire.

Abanyeshuri bari mu ishuri bamwe bahagaze abandi bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, bambaye uniforme, amashati y'umweru, ijipo cyangwa ipantaro bya kaki mwarimu uri imbere ku kibaho gifite ibara ry'umukara cyanditsweho...

Abanyeshuri bifashe neza bicaye kuri pipitire bambaye uniforume isa ubururu, utubati turimo amakaye ndetse n'ibitabo twubakishijwe ibiti amadirishya arimo ibirahuri, inzu yubakishijwe sima.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'amashuri, bambaye iniforume, amashati ya buresiyeli, amapantaro ya kaki, imipira y'imbeho. Ikibuga bakiniramo vole, idarapo, amashuri yubakishijwe amatafari asizwe irangi ry'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba gifite intebe zifite aho kwandikira, ndetse n'aho kwicara, imeza, ikibaho bandikaho, ikibambasi gisizwe irangi ry'umweru, parafo, amatara.

Umunyeshuri uri kwandika ku kibaho gisa umukara, wambaye iniforume ishati y'umweru, ijipo y'ubururu, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, ndetse na sima.

Umwarimu wambaye agapira k'umweru ndetse ukenyeye n'igitenge afashe igitabo, ari kwigisha abanyeshuri bicaye kuri pupitre, bambaye imipira y'icyatsi, ikibaho cyanditsweho cy'umukara.

Abanyeshuri bari mu nzirara nyabagendwa ipavomyemo amabuye, bambaye iniforume, ijipo y'ubururu, amashati y'umweru, bahetsi ibikapu, ku ruhande hari umucaca n'ibiti n'ibipangu...

Abanyeshuri bambaye imipira isanzwe, amashati y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bicaye kuri pipitire zikozwe mu biti, ikibaho cy'umukara, insinga zitwara amashanyarazi, ikibambasi gitewe irangi rya kaki.

Ishuri rifite ikibaho coastara amabati harimo n'atambutsa urumuri hicamo abanyeshuri kuri pipitre bamwe bari gusobanurana abandi bari kuganira, igikapu batwaramo amakayi.

Inzu irimo ibitanda abantu bararaho, gifite icyo hasi ndetse n'icyo hejuru, hashasheho matela ndetse n'amashuka, amavalisi ku ruhande, amadirisha arimo giriyae ndetse n'ibirahuri, ikibambasi gisizwe irangi cy'umweru amabati.

Stade irimo aho abantu bicara hamwe hatwikiriye ahandi hadatwikiriye, hicayemo abanyeshuri ifite amabara icyatsi, umuhondo, ubururu hari ikibuga bakiniraho umupira n'akayira gatambukamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse na sima, inzugi n'amadirisha bisa icyatsi, kositara zizana umwuka ndetse n'urumuri, amabati, ibiti birebire ku ruhande, inzira nyabagendwa.

Igipangu gikozwe n'amatafari ahiye, ndetse na giriyaje, amashuri asakajwe amabati y'ubururu, ipoto ry'insinga rizana umuriro, ibiti by'icyatsi kibisi, umucaca ku ruhande.

Amashuri afite sima hasi yubakishije amatafari ya rukarakara, afite ibirahuri byiza, harimo bimwe byamenetse, hanze hari umunyeshuri wambaye yuniforume n'umupira usanzwe n'inkweto za bodaboda, imbere hari indabo nziza ndetse n'umucaca, ahandi hari igiti.

Abanyeshuri bari mu isomero bambaye imipira y'imbeho, amapantaro, iniforume, amashati y'umweru, utubati twubakishijwe ibiti turimo ibitabo, ikibambasi gisizwe irangi ry'umuhondo.

Icyapa cyanditseho Mukinga secondary school, igipangu gifite utwuma hejuru ndetse gisizwe irangi ry'icyatsi ndetse n'umweru, idarapo ry'u Rwanda, ikirere, ibiti birebire.

Abanyeshuri bicaye bari kurira ku meza akozwe mu biti, bambaye iniforume, bamwe isa umuhondo, amajipo cyangwa amapantaro ya kaki, amasogisi, inkweto z'umukara, bafashe imineke mu ntoki, bari kurya umuceri ndetse n'isombe.

Icyapa gisa umweru gifite utuntu hejuru, cyubakishijwe amatafari, cyanditseho G.S Butare Indatwa n'Inkesha, ibiti, inzu ifite amadirisha arimo ibyuma ndetse n'ibirahuri n'amarido.

Abanyeshuri bateze amatwi ubaganiriza, bambaye uniforme ishati y'umweru, ijipo cyangwa ipantaro ya kaki, inkweto zisanzwe, amashuri asakaje amabati ndetse n'amatafari ya rukarakara. Umunara, idarapo, indabyo ku ruhande ziganjemo iz'icyatsi kibisi, ndetse n'umuhondo.

Abanyeshuri babiri, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, umwe yambaye ishati, undi yambaye umupira w'ishuri ndetse n'agapfukamunwa, ufashe amakayi yo kwandikaho.

Ikigega kirekire gifite imironko mo hagati, gifite akantu hejuru kanditswemo amagambo University of Rwanda, ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru mo hagati.

Abantu bicaye ku ntebe zikozwe mu byuma, bambaye imyenda itandukanye bafite amakayi ndetse n'amakaramu, umwe amanitse akaboko, amadirishya arimo amarido ndetse n'ibirahuri.

Abantu babiri bahagaze mu nzira nyabagendwa ipavomyemo sima, inzu iteyewe irangi rya kaki, hasi shokora, amabati y'ubururu, ibiti birebire by'icyatsi kibisi, ikirere gisa ubururu bwererutse.

Abantu benshi barimo abakobwa n'abahungu, bamwe bambaye amapantaro y'umukara, amakanzu atukura, basutsa imisatsi, intebe zitukura, plafond y'umweru irimo amatara, ikibambasi cy'amatafari ahiye ya rukarakara.

Akayira gapavonyemyemo sima, gafite indabo ku ruhande n'umucaca, ikigega giteretswe ku twuma gisa umakara, ahantu handitse UR hafite amakaro y'umweru, utwuma bumanikaho amatara, ibiti birebire.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe zikozwe mu byuma ndetse n'ibiti, bari muri sale ifite amakaro asa umweru hasi, amadirishya arimo ibirahure n'amarido, inzu igeretse.

Inzu ifite fondasiyo amabuye ndetse na sikariye, itewe irangi ry'umweru inzugi ndetse n'amadirisha bya metalic, isakajwe amabati akikijwe n'ibiti, ifite jaride yiganjemo indabo z'icyatsi kibisi.

Inzu ifite ikibambasi gisize irangi rya kaki ndetse na shokora hasi, ifite amadirisha arimo giriaje, amarido ndetse n'ibirahuri inzugi irimo serire.

Abantu biganjemo abasore ndetse n'abakobwa, abasutswe n'abadasutse imisatsi, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti ndetse n'ibyuma, computer, amarido...

Utubati dusa: ubururu, umuhondo, shokora, umweru, tubikwamo amadokima; inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara hagati harimo sima, purafo, amatara yaka.

Ibitabo bitandukanye, biri mu tubati, bipanzwe, bifashwe n'utwuma, bifite amabara atandukanye: umuhondo, ubururu, umukara, hasi hapavomye umweru, ndetse n'umutuku.

Inzu ituwemo n'abantu benshi, ifite amadirishya, amwe afunguye arimo ibirahuri, asizwe irangi ry'umweru, ibiti birebire by'icyatsi kibisi.

Inzu irimo sima ifite ikibaho gisa icyatsi iteye irangi rya kaki ku ruhande, amadirisha arimo ibirahuri ndetse na giriyaje, purafo isa umweru.

Utubati dufite aho bafungira ndetse n'aho bafungurira dusize amarangi ya kaki, udukarito duteretse hejuru, amakalo hasi, plafond isa umweru ndetse n'amatara yo gucana.

Inzu ifite amabati ya shokora, ibirahuri, ndetse n'amarido, itewe irangi ku ruhande risa na kaki, umucaca mugufi, uteye ku ruhande, indabyo zisa umutuku...

Abubatsi bambaye ibikoresho byabugenewe. Harimo udupfukamunwa, ingofero, amajire. Bari kubakwa bakoresheje imyiko, amatafari ahiye, inzu ifite sima, inzugi za metarike ndetse n'ibirahuri.

Ahantu abantu bakarabira, hubakishijwe sima, ndetse n'amakaro y'umweru. Inzu isakajwe amabati atukura, afite cositara, ndetse n'inzugi zisize shokora, ibiti n'ikirere.

Abagabo benshi batonze umurongo bajya gusaba serivisi runaka, umugabo uhagaze ku ruhande uri kuri computer, igitambara cy'umweru, inzu ifite amatara ndetse na giriyaje z'umutuku.

Abanyeshuri bari mu ishuri rifite intebe zo kwicaraho ndetse naho kwandikira, ususwa ibisuko byubakishijwe amatafari ahiye, harimo amatara ndetse na parafo y'umweru.

Abantu babiri bari mu nzira nyabagendwa, umwe yicaye mu kagare, undi ari kugenda amucunga mu nzira ipavomyemo sima, ku ruhande hari indabo zitukura ndetse n'ubusitani burimo ibiti by'icyatsi. Inzu igeretse.

Akabati karimo ibikoresho nk'amavuta, parufe, korogate, pehashi hejuru hari amavarisi abiri y'umukara, agahanga bananikaho imyenda y'imbere, esuwime, idirisha ririmo ibirahuri ndetse na giriyaje.